Ishuri ry'abana bato rigomba kuba rifite ibikoresho, intebe zibaringaniriyeho ndetse n'ameza baringaniyeho, kugira ngo bakurikirane amasomo neza bazavemo abo igihugu cyacu cyifuza.

Ishuri ritarimo abanyeshuri rigomba kuba rifite isuku, kugira ngo abanyeshuri nibaza gufata amasomo basange harimo isuku kandi rimeze neza.

Urusengero rw'iwacu ruri ku muhanda. Ariko rurafunze niyo mpamvu twifuza kurukora neza rugasa neza cyane kugirango tubone uburyo turusengeramo.

Umunyeshuri aragaragaza impano ye mu by'ubutabire imbere ya bagenzi be, aho umwarimu yamuhaye umwanya wo kugaragaza impano ye mu by'ikoranabuhanga.

Abanyeshuri bize neza ibinyabutabire nibo bakenewe ku isoko ry'umurimo mu gihugu cyacu, cane cane iyo bikoreshejwe neza.

Abanyeshuri baritoza imyuga kandi niyo igezweho. Ariko si byiza gukora uwo mwuga hari ibindi wibereyemo byaguhuza, nko kumva imiziki, ndetse n'ibindi byarangaza abawukora.

Kwiga imyuga birafasha cyane, cyane cyane ubudozi. Aha ho hari umwuga mwiza cyane nshishikariza buri wese kwiga.

Kwiga mudasobwa ni kimwe mu gikorwa cy'ikoranabuhanga urubyiruko rwo muri iyi minsi rukeneye cyane ko u Rwanda gwacu ruri gutera imbere mu ikoranabuhanga.

Abanyeshuri bari mu ishuri, baragaragaza impano zabo zo gushushanya ibintu bitandukanye, kandi barabyishimira kugira ngo bazakomeze kwiga ibijyanye n'imyuga, cyane ko ari cyo igihugu cyacu gikeneye.

Umwana agomba kwiga gushushanya akiri muto cane cane kuko atazi ico azaba, ashobora kwiga imyuga kandi bikamuteza imbere, agateza imbere n'Igihugu cye ndetse n'umuryango muri rusange.

Ishuri ry'imyuga ry'abatekinisiye rigezweho muri iyi misi cyane cyane muri iki kinyejana turimo, aho buri munyarwanda wese agomba kwitabira ishuri ry'imyuga.

Abanyeshuri barakora isuku ku bigo byabo kandi babyishimiye bakoresheje ibitiyo ,amasuka ndetse n'intoki zabo.

Abanyeshuri bize imyuga nibo bagezweho mu gihugu cyacu, kubera ko ari bo bashakishwa hirya no hino. Mbifurije kwiga imyuga kugira ngo tuzabone imirimo y'ejo hazaza.

Kwiga umwuga w'ubudozi bw'inkweto cyangwa se gukora inkweto ni umwuga ugezweho, cane cane ko Leta idushishikariza kujya mu myuga igomba kuduteza imbere mu gihe gito.

Kwiga tekinike cyangwa imyuga, ni bwo buryo bwiza igihugu cyacu kifuza, cyane ko ariho ikizere cy'ahazaza kiri.

Agakiriro ni ahantu babariza ibikoresho bitandukanye, harimo:n'intebe, ibitanda, imitako, akaba ari byo leta y'u Rwanda idushishikariza gukora, cyane ko ari imyuga.